Ndabona abantu batandukanye bicaye kandi basa naho bari kuganira ku kigo mpuzamahanga gishinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana, aho bari kwibanda cyane cyane ku byiringiro by'umwana ndetse harimo umugabo usa nk'aho ari umusaza, umusaza kandi asa nk'aho ari we uri kubagezaho ijambo cyangwa se.

Ndabona umumama wishimye cyane uri guseka, wambaye ingofero mu mutwe kandi ukenyeye igitenge. Uri gukaraba, uri gukarabira kuri kandagira ukarabe mu rugo.

Ndabona umwana urimo gukarabira ku mugezi sinzi ibya ari kureba ariko ndabona yishimye ari gukaraba intoki bisa n'aho hari ibintu yarangariye.

Ndabona inama y'abafatanyabikorwa irimo abantu benshi batandukanye, ariko imbere hari batatu umugore umwe, n'abagabo babiri, bisa nk’aho aribo bayoboye iyi nama.

Abantu benshi batandukanye, ariko hakaba har’abari guha abana amata mu nkongoro, kandi ikindi abana bose bambaye unifomu bisa nk’aho bari ku ishuri, kandi ikindi kigaragara n'uko basuwe n'abayobozi, kuko ndi kubonabonamo n'abashinzwe kurinda umutekano.

Ndabona abantu batanu, babiri muri bo bafite amakayi, umwe muri bo ni umugabo, inyuma yabo hari urutoki ndetse n'ibiti kandi bose bicaye ku ntebe. Ikindi kandi umugabo yakuyemo inkweto wagira ngo sinzi ibyo bari kumukorera cyane cyane wagira bari kumuhandura amavunja.

Ndabona umuganga n'umurwayi ,umuganga wambaye umwenda w'akazi ariko umurwayi yamuhaye icyo gukora bisa naho yamuhaye umugozi ukweduka gaba arakwedora ariko ananura amaboko kandi bisa naho umurwayi haribyo ari kwitegereza imbere umuganga yamuhereje agomba kureba.

Uumukecuru n'umusaza bari mu bukwe ariko inyuma yabo hari n'abandi bakecuru ndetse hari abantu benshi bigaragara nkaho bari mu bukwe kandi uyu musaza n'uyu mukecuru bisa nkaho ari bo bakuru b'umuryango.

Ndabona umukecuru n'umusaza bose bicaye ku meza, kandi ikindi bisa naho bari kureba muri telefone. Basa nk’aho bari kureba ku mbuga nkoranyambaga uburyo imiti iri imbere yabo bari buyikoreshe, kuko ikigaragara iruhande rwabo hari ikirahure cy'amazi baranywesha imiti.

Ndabona muganga n'umurwayi bose bambaye udupfukamunwa umurwayi bari kumutera urushingiye ku rutugu kandi ikindi kigaragara ni uko ari mu bitaro umurwayi yicaye ndetse akaba afite n'amadorubindi ku gatuza kandi yambaye n'isaha.

Imibereho y'ubuzima bwiza, yabona akarongo kagaragaza imivumba yuko umutima utera, ndetse bikagaragara ko ari ingingo ya gatatu.

Ndabona icyapa kigaragazaho uburenganzira, inshingano, nkabona ikindi kiri mu ishusho y'umutima kivuga kiti “tururungano dushobora guhagarika agakoko gatera sida”.

Ndabona abaganga bambaye imyenda y'akazi, bambaye uturindantoki n'udupfukamunwa ndetse n'uturindanda amaso bose bateraniye ku murwayi bari kureba uko ameze, bisa nkaho bari kumuvura kandi ikigaragara ni uko umurwayi ameze nabi.

Nikubona abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe, abagore n'abagabo bose basa naho bari mu nama kandi bateze amatwi uri kuribabwira ikindi kandi bose bambaye neza.

Ndabona icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga hakaba harimo ibitanga umuyaga cyangwa se bikongera umwuka mwiza muri icyo cyumba inyuma hari idirishya rinini ry'ikirahure.

Ndabona abantu batatu: abagore babiri n'umugabo umwe, umugore n'umugabo bahagaze, umwe undi mugore aryamye kandi bisa n'aho arwaye bari kumufata ibipimo ngo bumve uburyo ari gutera cyangwa se amaraso uko ari kugenda umugabo akaba amufashe mu gahanga kugira ngo yumve uko umuriro ungana.

Ndabona igikuta, nkabona urugi nkabona ndetse n'amatafari ahiye ,nkabona hejuru y'umuryango aho bapimuriye nkabona aho icyapa kigaragaza ko ari aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ndabona ubusitani nkabona n'amazu atandukanye kandi ikindi ndabona abantu benshi basa n'aho bategereje uwo baha serivisi bisa n'aho aha ahantutu habera haba igikorwa remezo runaka.

Ndabona ibitanda bisa naho biriho abarwayi nkabona umuntu inyuma uri guturukayo urumuri rwamucanye mu maso wambaye agapfukamunwa ndetse nkabona n'umugore uri hafi bugufi wambaye agapfukamunwa afite ikarita y'akazi yambaye n'umwenda w'akazi asa nkaho ari gutambuka yegera imbere.

Ndabona icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri kandi hari uruzitiro rugezweho ruzitiye ibyo bitaro, inyuma y'uruzitiro hari abantu bari gutambuka basa naho bari gukomeza bajya mu bitaro ngo abaganga bajye kubitaho.

Ndabona umusore wicaye, arambuye amaguru, yifashe ku mano, bisa nkaho ari muri siporo ari kugorora umugongo ndetse n'amaguru icyarimwe, kandi ikindi yicaye mu kibuga.

Ndabona umurwayi uri kuribwa n'umutwe, nkabona undi uri kuruka, nkabona undi byivanze mu mutwe, nkabona uwo bari kongerera umwuka, nkabona n'ufite ikibazo cy'amatwi, ikindi kandi hari n'ikiri kugaragaza yuko ananiwe, uwifumbase, ufite ibibazo

Ndabona amacupa atandukanye apfundikiye kandi nkabona n'ibindi bikoresho nabyo bipfundikiye bisa nk'aho bikozwe mu mashashi kandi byose ni ndikubona bisa n'aho ari ibikomoka ku gikakarubamba kizwi nk'umuti ukoreshwa mu kuvurana icyo indwara zitandukanye cyane cyane uruhu.

Iki igihingwa ndabona ari umutanga, ikigaragara ni uko hasi yacyo hari ibyatsi byitwa imbatabata bikunze gukura hafi y'umutanga, kandi ikindi sibyo gusa, n'inyuma ndikubona yo ibindi, ibi byose bikaba bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye mu mubiri w'umuntu.

Ndimo ndabona umuravumba ukiri mutoto kandi utoshye, uzwi uzwiho akamaro ko gukoresha mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye. Ikindi hari urubuga ushobora kuyisangaho ku mbuga nkoranyambaga.

Ndabona umuravumba uzwi mu muti wakoreshwaga kera kandi ukiri mutoto utoshye, ikigaragara cyo ni uko uteye mu murima.